Ishuri rifite ikibaho imbere cy'umukara, hakaba hari ameza n'intebe, hakaba harimo n'abana bazicayeho, bafite agasandugu bashyiramo ibitekerezo.

Abana bicaye kumukeka, imbere yabo hari umubyeyi uri kubigisha, umwana uri kuvuga arahagaze. Abandi baricaye bamuteze amatwi.

Abana batoya bavuye ku ishuri, bambaye inifomo, harimo abari kugenda biruka, bakaba bakikijwe n'urutoki ruri inyuma yabo.

Abana bari ku ishuri bambaye, iniforume, ishati isa buresiyeri, ijipo isa kaki, bakaba bambaye n'inkweto bose. Ahetse igikapu mu mugongo kirimo ibikoresho bye.

Urukuta rwubatswe n'amatafari ahiye y'impunyu, hakaba hariho insinga zikoze purize bacomekaho igihe bari gucaginga.

Abana bakiri batoya bari ku ishuri bambaye impuzankanana, amashati ya burisiyeri, amajipo ya kaki, bateruye amasahani mu ntoki harimo ibiryo.

Abana bari ku ishuri bambaye impuzankana, amakabutura ya kaki, amashati ya buresiyeri, bari mu kigo cyubakishijwe amatafari y'impunyu, hakaba hariho n'urukuta rukizengurutse.

Ameza arunzeho ibikinisho abana bifashisha biga imibare, hari imibare yanditse ku mpapuro z'umweru ishushanyishije marikeri y'ibara ry'umukara, hakaba n'indi mibare iri ku duti dutoya.

Urukuta rufite irangi ry'umweru, hasi hakaba hariho amabuye, hakaba hariho icyapa gishushanyije kiriho ibendera ry'igihugu n'abana.

Abana bambaye iniforume, amashati ya buresiyeri, amakabutura ya kacye, bateruye ibasi irimo ibiryo, akawunga ndetse n'ibishyimbo bagiye kurya.

Inzu ifite igikuta cya tiripurekisi kimanitseho impapuro zanditseho ibintu bitandukanye, hakabaho n'amashusho agaragaza abantu, hejuru hakaba harimo na parafo.

Abana bateraniye mu kibuga, bafatanye intoki basimbuka bishimye, bigaragara ko bari gukina, hakaba hari amazu hafi yabo batahamo, hakaba hari n'insina.

Ikigo cy'ishuri gifite amashuri ashakajwe amategura, ubona ko gishaje, kikaba gifite ubusitani mo hagati harimo n'imbuga abana bakiniramo.

Ikigo cy'ishuri gifite icyapa gishushanyishije amabara y'umukara, kigaragaza ko ari groupe scolaire saint Joseph Kabgayi. harimo n'abantu bari kugitemberamo.

Ikigo cy'ishuri gikikijwe n'urukuta, kikagira umuryango munini binjiriraho, ukaba ufite igipangu, hejuru yacyo hakaba icyapa kigaragaza izina ry'ikigo.

Ikigo k'ishuri gifite icyapa kigaragaza intego z'ikigo cyometse ku rukuta, kiba kizengurutswe n'ibiti mo hagati bituma abantu bakirimo babona umwuka mwiza bahumeka.

Abana bari mu mbuga y'ikigo, bambaye iniforume, amashati y'umweru, amajipo ya kaki, bakaba bahagaze ku mapave, ari mu mbuga y'ikigo.

Abana bateraniye mu ishuri, bambaye amataburiya y'umweru, bari muri laboratwari, aho barebera ko ibyo bize bashobora kubishyira mu bikorwa bigakunda.

Abana bari mu ishuri harimo abahungu n'abakobwa, bamwe bambaye amashati y'umweru amajipo ya kaki abandi amajipo asa igitaka.

Ishuri ririmo abana baje kwiga bambaye impuzankana y'umweru hejuru, abandi bambaye imipira y'imbeho, imbere hari mwarimu uri kubigisha, hakaba hari ikibaho cy'umukara.

Igitabo cy'umwaka wa kabiri kigishirizwamo ubutabire, kiraba gishushanyijeho amashusho agizwe n'ibiti bikikije ikiyaga mo hagati.

Ikigo cy'ishuri gifite umuryango munini ukozwe mu byuma, hakaba hateretse intsina ku ruhande bambitse ibipapuro by'umweru bikoramo umutako.

Ishuri ririmo intebe zikozwe mu mbaho, zifite ahantu mo imbere babika amakaye, rifite amadirishya na yo akozwe mu mbaho, nta rangi ririmo, rifite igipande cy'umucanga gusa.

Ibbuga yuzuyemo abantu benshi bahagaze imbere ya kiriziya bakaba bahagaze mu kibuga cya basiketi ifite paniye zisize amabara y'ubururu, hakaba harimo abantu bambaye iniforume basa nk'abanyeshuri.

Ahantu hari isomero rusange, haba hari intebe ushaka gusoma yicaraho, ibitabo bikaba bitonze mu buryo buri ku murongo kandi ku buryo butandukanye, buri gitabo gifite aho giherereye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite imiryango y'umutuku hejuru yayo hariho akabara k'umweru, hari intebe y'urubaho abantu bategereje kwinjira baba bicayeho.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru. Bakaba bari mu ishuri ribikwamo za mudasobwa. Hakaba hari insinga z'umuriro n'izindi za interineti.

Inzu ya etaje igeretse inshuro nyinshi. Ikikijwe n'ibirahure inyuma ku ruhande rumwe, ahandi hakaba hubatswe n'amatafari y'impunyu, isize amarangi y'umweru.

Ishuri ririmo intebe zifatanye n'ameza yazo. Zikozwe mu byuma hasi, hejuru hakabaho imbaho. Harimo n'urundi rubaho runini, baterekaho igihe bari kwigisha.

Abana bicaye mu ishuri, ku meza hateretse za mudasobwa, bafite amakayi ndetse n'amakaramu, bose bakaba bakurikiye ibyo barimo, imbere yabo hari na za kibodi.

Icyumba kirimo ameza akozwe muri tiripuregisi, hakabamo n'intebe, hamanitse icyapa kigaragaza ibikorerwa mu iyo nyubako, buri cyumba nicyo kigenda gikorerwamo.

Inzu ifite ubusitani imbere bukozwe mu ndabyo, hasi hari pasiparumu, hakaba hari amatara amurika aho mu busitani, hakaba hazengurutswe n'ibiti birebire.

Isomero rusange, rirunzemo ibitabo by'ubwoko butandukanye. Hakaba ameza yo kwicaraho n'intebe mu gihe bari gusoma. Bikaba bikozwe mu tubati tw'imbaho na tiripuregisi.

Inyubako nini ifiteho icyapa byanditseho iniverisite y'u Rwanda, hakaba hariho kamera ifasha mu gucunga umutekano, kikaba gisizwe amarangi y'umuhondo.